Uruhurirane rw'abaturage bagiye batandukanye, aho bazana abana babo bakaza guhura n'umujyanama w'ubuzima, aho asuzuma abana babo indwara zigiye zitandukanye, areba n'uko ubuzima bwabo bumeze.

Uruhurirane rw'ababyeyi aho bazanye abana ku kigo nderabuzima kugira babashe kuvurwa indwara zigiye zitandukanye. Mu gihe bagiye bategereje bamwe bo bari kugenda baha imfashabere abana babo.

Amagambo ndetse na logo bigaragara ku cyapa cy'ikigo cy'Isi gishinzwe kubunga ubuzima ari byo bita Georgia Global Health Alliance.

Inshinge zikoreshwa kwa muganga, aho zibikwa mu kabogisi kabugenewe, mu buryo bwo kugira ngo zigumye zigire ubuzima buzira umuze.

Uburyo bwiza bwo gukora isuku ku maboko ndetse mu gihe uvuye mu mirimo yakwanduje, aho ufata akajerikani ugashyiramo amazi ndetse akubaka igiti akagitera akagifatanya, ukabasha gukoresha ukandagiraho ukora amasuku ku maboko.

Umukobwa wicaye mu rugo iruhande n'umugezi, akaba arimo kuvoma amazi yifashishije utujerekani ndetse n'amabasi, aho inyuma y'iwe hagiye hakikijwe n'imyenda yanitse, bigaragara yuko ariyo bahoze bafura.

Abaturage bahuriye ku ivomo, aho baza kuvoma amazi bakoresha mu ngo zabo zigiye zitandukanye, aho bitwaza utujerekani two gutwaramo amazi, hakavamo umwe akabavomera amazi bakoresha.

Inzu mberabyombi, aho umuntu aza afite ikibazo cyangwa se afite ibintu bimubabaje, akaza guhura n'umujyanama akabasha kumuganiriza, agakira intimba cyangwa se ikibazo runaka kigashira.

Igiturage cy'ahantu runaka, aho hanyura umuhanda ndetse hakorerwa imirimo itandukanye, aho hagaragaramo umugabo wanyweye ibisindisha bitandukanye, ari kugenda adandabirana ndetse agwa mu muhanda.

Abayobozi bagiye batandukanye bahuriye mu nzu mberabyombi kugira babashe gusobanurirwa ndetse no kwigishwa ku bijyanye no kubungabunga ndetse no kurinda ubuzima bwo mu mutwe, aho bakorera ndetse n'aho bari hose.

Umwarimu ndetse n'umunyeshuri bicaye ahantu hamwe ari kumwigisha isomo ritandukanye yifashishije ibikoresho runaka birimo udupupe tw'umuco...

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nzira bagamije mu cyerekezo kimwe, aho bitabiriye ibirori runaka, abandi berekeje mu mirimo igiye itandukanye.

Umusaza ukuze urimo gufata imiti ahawe na muganga, akayinywesha yifashishije amazi.

Umukecuru ndetse n'umusaza, bari kunywa imiti banagerageza gukora ubushakashatsi butandukanye bifashishije telefone, ndetse n'inyandiko zigiye zitandukanye. Aho imbere yabo bafite ibinini ndetse n'amazi,

Inzu mberabyombi aho abarwayi ndetse n'abasaza bakuze ndetse n'abakecuru bahurira mu gukina imikino igiye itandukanye kugira babashe kuruhura mu mutwe ndetse bagira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko bakuze barimo gufata imiti, bigaragara ko bari gusoma amabwiriza bifashishije igipapuro y'ukuntu banywa imiti.

Uruhurirane rw'abantu benshi cyane, harimo abaturage, abayobozi, abirabura ndetse n'abera, aho bagaragara ko bari bitabiriye inama, nyuma y'iyo mihango bagafata ifoto y'urwibutso.

Ikinyamakuru cy'itangazamakuru, kigaragaza ndetse cyanditse ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'uko wafata umwana neza, akagira ubuzima bwiza.

Uruhurirane rw'abaturage ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye, aho bahuriye mu nama yo kwiga ku bijyanye n'ubuzima ndetse no kwirinda mu nzu mberabyombi.

Abaturage ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye, ndetse bifatanyije n'inzego z'umutekano, aho bahuriye ahantu ku gikorwa kimwe, baganira ndetse bungurana ibitekerezo, nyuma bagafata ifoto y'urwibutso.

Agace kanini kagaragaramo inzu zigaragaza ko hatuyemo abantu bagiye batandukanye, harimo jaride nziza ndetse n'abakozi bahakora, hagaragaramo umwana ndetse n'umumama batambuka aho hantu.

Icyumba kinini kigaragaramo ko cyesitayemo imashini zifashishwa mu gukora ubushakashatsi bugiye butandukanye, aho usanga ari na ho zibitse kandi zesitayemo.

Inyubako nziza nini yubatse ifite imbuga nini ikikijwe n'indabyo ndetse n'ibiti ku ruhande, ikaba n'ifite n'icyapa kigaragaza ndetse kikanasobanura ibikorerwa muri iyo nyubako.

Inzu mberabyombi igaragaramo icyumba kimwe, kigaragaramo ibikoresho bikoreshwa mu by'ubuganga ndetse harimo intebe, imeza ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako nini, iri ahantu ikorerwamo imirimo igiye itandukanye, cyane cyane hibandwa ku bucuruzi, ndetse na siporo. Aho ujya ugasangamo imwanya yo kwicara umuntu aruhuka.

Ibitaro byombi aho hagororwa ubutabazi bw'ibanze mu kuzimya cyangwa se mu gutabara ibintu bigiye bitandukanye, aho abantu baza bagamije gukorera ubutabazi bw'ibanze.

Inzu mberabyombi yubatswe mu buryo bw'ikoranabuhanga yo kwa muganga, igaragaramo ibitanda byiza byo kuraraho, ndetse amateleviziyo ndetse ikasemo n'ibyumba.

Umumama urimo kugaragaza neza unakora imirimo ngororamubiri, aho agaragaza neza uburyo ushobora gukora siporo ukabasha kugira ubuzima bwiza ndetse ukabona n'iyo waba ukoreye umuhanda.

Abaforomo ndetse n'abaganga bambaye imyenda yabo yabugenewe, udupfukamunwa, ingofero ndetse n'imiti bakoresha bavura umurwayi warwariye kwa muganga, aho bicaye mu cyumba bari kwita ku murwayi wabo.

Icyapa kigaragaza urubuga abakora umurimo wo kwirukanka bashobora gucaho mu Rwanda.

Umukobwa wicaye urimo gukora siporo ngororamubiri yifashishije ibikoresho bimwe na bimwe, harimo nka tapi yicaraho akora siporo agorora umubiri.

Ushobora gukoresha ukora siporo ukabasha kunanura umubiri wawe wifashishije ubuganga gakondo, ukabasha kumaramo amavunane mu mubiri wawe, ari byo abahanga bita terapi, ukagira umubiri uzira umuze.

Ibyatsi byinshi cyane by'inganzamarumbo, byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse n'imirimo itandukanye abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyanya nyaburanga kigaragaramo amashyamba meza, ndetse n'imisozi icamo amazi meza abakerarugendo baturutse impande n'impande baje kuhasura.

Umuti mwiza watunganyijwe n'uruganda ugafungwa mu icupa ryiza ndetse ugaterwa ahantu heza aho uwo muti uba watunganyijwe mu gihingwa cya kaposiyumu abaturage bifashisha mu kwivuza indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo igiye itandukanye yakusanyirijwe hamwe harimo iy'ibyatsi, imbuto, n'ibinyampeke ndetse n'iy'amazi, yagamijwe gutunganywa kugira ngo yifashishwe mu kuvura.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi, watunganyijwe n'uruganda, ugafungwa neza mu dukarito tugiye dutandukanye, aho abantu babikoresha mu byo kurya.

Igihingwa runaka aho gifungwa mu ishashi nziza yatunganyijwe n'uruganda, kigakoreshwa mu kuvura abantu batandukanye cyangwa se bakagikoresha mu byo kurya bigiye bitandukanye.

Uruhurirane rw'ibikomoka mu nganda bigamije gukora amasuku mu ngo z'abantu ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Umuti mwiza watunganyijwe n'uruganda ugizwe na mega garamu magana atanu wafunze mu ikarito nziza aho ukoreshwa mu kuvura abantu indwara z'igihe zitandukanye.